Abaporisi bafite impuzangano yihariye ndetse n'ingofero zimeze nk'iz'abamotari, bari impande y'imodoka ya porisi yanditseho Rwanda nashino porisi, isa n'ubururu ifite amapine ateruye maremare.

Umucungagereza urimo aravugira muri mikoro abwira abaturage ufite inyenyeri eshatu ku rutugu n'ibendera ry'u Rwanda n'idarapo ry'igihugu arimo araseka avugira muri mikoro.

Ikorosi rinini cyane rifite umuronko wa zeburakorosingi rihagazemo abantu benshi bambaye impuzangano, abana ndetse n'abagore bahagarariwe na polisi mu gihe bacunga ko amagare agiye gucaho.

Umupolisi wo mu muhanda yazamuye akaboko hejuru ahagarika imodoka ndetse n'amamoto, impande y'imikindo myinshi cyane ifite izuba ryinshi, amatara arimo araka ndetse uwo mupolisi yambaye ijire y'icatsi.

Abapolisi bambaye iniforume ndetse ni imbwa zabo barimo barayitoza kwiruka, mbese bose uko bari ku murongo ari batandatu, buri wese afite iye, ku nzu ifite irangi ry'ubururu.

Itsinda rirerire ry'abasirikare b'u Rwanda bagera kuri mirongo ine na babiri, abagore barindwi n'abagabo mirongo ine na batanu. Umugabo wa mbere yarakaye undi mugabo wa kabiri ntabwo yarakaye bose bambaye idarapo ry'igihugu.

Itsinda ry'abasirikare benshi bambaye inkweto z'umukara za butine, amasaha y'umukara, bari kuri paturuye, aho bose bambaye idarapo ry' ibendera ry' Igihugu cy' u Rwanda.

Umuryango w'umugabo, umugore n'abana bicaye ku moto bahetse ibyabo byose, aho umwana yicaye kuri matera ye, ndetse umugore akaba yicaye hagati impande y'umugabo wambaye umupira w'umuhondo, umwana wa bucura akaba yicaye mu mahembe ya moto.

Abapolisi bane bambaye impuzangano umwe arimo araganiriza abaturage ku byateza imbere igihugu, n'abaturage bamuteze amatwi kugira ngo bumve ikiribumuve mu kanwa.

Umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu nitanu na mirongo itandatu ,ufite mikoro urimo kuvuga mu ruhame ahari abantu benshi, bigaragare ko ari inama bamuteze amatwi bacecetse kugira ngo babashe kumva ikiri bumuvemo.

Inama y'abaturage iyobowe n'abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, barimo bariga ku cibazo aho abaturage bose bateze amatwi, abana ndetse n'abakecuru bambaye iniforume na bo bateze amatwi.

umwarimu wambaye umupira wa lakosite w'umweru ,ipantaro y'igitaka, umukandara w'umukara n'isaha na mikoro mu kaboko k'iburyo. Arimo arasobanurira abanyamuryango be mu nama y'igitaraganya mu nzu ndende.

Inzu nini iberamo inama y'abaminisitiri, irimo iraba umwe arimo aravuga ku ngingo yavuzweho uno munsi, undi arimo aritegereza ukuntu inama irimo iragenda n'umutekano awucunga.

Urubyiruko rw'abantu benshi bicaye mu mucaca, ahari umurambi. Bambaye amajiri asa n'icyatsi ya yufu volontiyazi, umwe muri bo niwe utayambaye, abandi bose barayambaye kandi bayambaye neza.

Umuyobozi wa polisi ya arayenipi, arimo aratanga ububasha, afite mikoro ndetse yambaye n'isaha, ingofero y'umukara ndetse n'impuzangano nziza ya gipolisi.

Umwami Kigeli wa gatatu Carisi Rudahirwa afite ibikomo mu zosi, aho yari yitegereje umusozi awureba cyane kugira abashe kumenya abari kuri uwo musozi, n'amaso manini cyane afite imboni z'umukara n'ibikomo by'umukara.

Ubusitani bw'imbuto ndetse n'imboga bufite igiti cyakuze neza, gifite amashami y'umweru ndetse n'ay'umutuku, impande rw'uruzi rw'ikiziba, ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri.

Amazu ameze nk'inzu z'ingoro z'abami ari ahantu mu gipangu gifite ishusho y'inyuguti y'umunani, mu ishyamba rifite ibiti bisa ni'icyatsi gusa.

Intore zirimo zirahamiriza zikoresheje imiheto ndetse n'amacumu. Imwe yasimbutse hejuru iringanira n'uruzitiro ruri impande y'aho zirimo kubyinira rufite insina zifite amakoma.

Igicuna gisa n'igitaka, gifite amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi, gitwikirije umutemeri w'icyibo, ufite ibara ry'umukara, igitaka ndetse n'umweru, ahagana mu ma saa sita z'ijoro.

Intore eshatu imwe yambaye ikanzu y'ubururu, indi umutuku iyindi, icyatsi. Zirimo ziragaragaza amaguru yaho ariho imirishyo n'amakondera babyina mu kibuga.

Intore z'abagore zirimo zirahamiriza zihetse ibyibo mu mugongo ibindi biri ku mutwe. Zambaye imishanana miremire isa n'igitaka zirimo ziraririmba cyane, zigira ziti: Imana nibeho.

Umusore muremure w'umusatsi ndetse n'ubwanwa ukenyeye umushanana w'ikigina, afite inka y'inyambo ndende bigaragarako bishimanye cyane. Umusore arimo arayiririmbira indirimbo y'igihugu.

Umugabo mwiza cyane unanutse mu maso, ufite amasunzu ku mutwe we iburyo n'ibumoso, arimo aragaragaza ikinyabupfura kuri kamera impande y'umuntu urimo aramufotora aseka shane n'ibyishimo ari byinshi.

Igiti kinini cyane gifite ubusagi busa n'umutuku amapera ndetse n'icyuzi cyo kogamo kiri impande ku buryo uwakibona wese ashobora kubona gishobora kuguruka isaha ku isaha.

Umuduri wa kera usa n'umuhondo ufite amashami menshi yo kuvugirizaho, uteretse ku parato isa n'umweru ufite n'ibimenyetso byo gukuramo n'ibyo guteranya cyane rwose.

Uruhuri rw'abantu benshi abasore abagabo ndetse n'abana barimo barareba umukino wo gusimbuka kumugozi aho umusore wambaye ikabutura y'umweru n'umupira w'umuhondo arimo arasimbuka urukiramende

Ifoto nziza y'umwami wambaye umugara, wateretse amaso, ufite mu maso harehare, wambaye igikomo mu ijosi, witegereza umuntu urimo aramufotora, uno munsi bigaragare ko yabyishimiye cyane.

Umugabo wambaye ishati akenyeye igitenge afite icyungo, yajishije inka y'inyambo ifite n'inyana yayo arimo arakama amata impande y'ikiraro cy'inka mu gitondo cya kare.

Abagore bo hambere batatu bafite abana, umwe araryamye, undi ni muzima bari ahagana mu ma sayine z'ijoro bategereje umuntu urimo ku rugendo.

Igiseke ndetse n'umuheto biri mu nzu ikikijwe n'imikeka myinshi, intebe ya kinyarwanda yo iri k'umukeka ushashe hasi ,uwundi mukeka uratwikiriye.

Abakobwa beza b'abanyamideli barimo baramurika umudeli, bafite inyogosho z'ibisunzu, amabere ari hanze. Barimo baritegerezwa na ba nyina aho bareba umukobwa mwiza n'umubi.

Umuvure uteretse kuri sima, mu rugo rufite uruzitiro rukoreshejwe n'imyase. Umuvure uracukuye cyane, mu bara ry'umukara, inyuma yaho ufite ibara ry'umuhondo. Imitwe ibiri, umutwe wo gufataho n'umutwe kurura.

Abana cumi na barindwi, barimo barasimbuka urukiramende bambaye ubusa, aho umwana umwe yasimbutse cyane yambaye umupira w'umweru magarame, abandi bariruka cyane bafite ubwoba, bagira ngo araguye cyane aranapfuye.

Umukeka uteretseho inkoko ikozwe mu busuna, ufite urukiza rwo kuzanamo urwarwa, umubirikira ndetse n'agacuma ko kunweramo umusururu.

Ingorofani ebyiri zisa zifite umupine w'umukara harimo ibara ry'umuhondo, ziteretse ku butaka, zitandukanyijwe n'icyuma gisa n'umutuku kirekire cyane.

Igisabo cya kera gikozwe n'ubwatsi bw'imivovo kiri iruhande rw'inzu ya padiri, aho kimwe kiri ibumoso ikindi kikaba kiri iburyo byo guturiramo amaturo ya padiri.

Igiseke cyiza cya kinyarwanda gifite ibara ry'umukara n'umweru, gifite umupfundikizo utatswe n'ubwiza bw'amasaro y'ikigina n'umukara wijimye, biteretse ku meza y'umukerarugendo.

Ikibindi cy'umukara gifite ibiheri giteye nk'igisabo kimeze nk'umukobwa waheze mwa nyina. Gifite umubikira mwimpande abantu barimo baranywa umutobe, bakoresheje umuheha urimo mu ijoro cyane, ku buryo utabasha kumenya urimo aranywa.

Abantu icumi, harimo abagabo batandatu n'abagore bane, barimo barasangira urwarwa ruhiye cyane bakoresheje imiheha miremire ya kinyarwanda. Uru rwagwa rukaba ruri mu muvure muremure cyane.

Umuvure mushyashya barimo barawukamiramo bakoresheje indobo ndetse n'ibyatsi by'inshinge. Umutobe warese, barimo baragerageza kwakira abashitsi, mu gihe izuba ririmo rirava ku manywa.

Igishushanyo cy'ishoka ku bibaho ifite umuhini mugufi w'igitaka, mu bara ry'umukara ndetse n'umweru uri ahagana ibumoso ry'amakaro y'umukara ari hejuru n'ikaro ry'umukara riri hasi.

Abagabo benshi cyane batagira abana n'abagore barimo barakora imigenzo ya kera, aho barimo barasangira umusururu mu ndobo ndende cyane isa n'umutuku, bakoresha imiheha yabo ndetse abandi banwesha iminwa.

Igisabo gicunda amata bakiryamishije ku kabati gitwikiriwe n'igiseke gikozwe mu bwatsi bwiza bw'umukara ndetse n'umweru, gisongoye cyane umunwa.

Umuhoro washaje cyane ufite igikoba, mugufi utyaye cyane, wegetse ku nzu idasakaye, ifite irangi ry'umweru, umukara ndetse n'umuhondo, inzu y'igihome cyane.

inzu mbi cyane ihomye n'icyondo ifite urugi rw'igiti, ifite umutiba urimo urakorwa n'amase ndetse n'ibiti birebire by'imbingo bishinze mu mbuga kugira ngo bizajye kujyamo inzuki abantu babona ubuki.

Abantu babiri umwe w'umugore undi mugabo bari kugabana umutsima w'amasaka, imboga, inyanya, ibishyimbo, umushogoro, biri mu gisorori kugirango babashe gufata ifunguro rya sasita

Umutako umanitse ku nzu y'umweru ufite imikono igera kuri itandatu iri mu bara ry'umukara ndetse n'ubururu ahagana iruhande rwa aritari y'inzu y'abakatolike.

Umumama w'igikara witeze igitenge, wambaye imyenda yanduye, udafite inkweto ,arimo arakora agakono ko gutekeramo inyama ,ako mu muco wa kinyarwanda bitaga icyungo.

Intore zirimo zirahamiriza zishimiye umunsi mukuru, impande y'ibirunga bya muhabura, nyiragongo, ndetse na karilisimbi, ebyiri z'abagabo, izindi enye z'abagore bambaye imipira y'umuhondo n'imishanana.

Intore nyinshi zasimbutse hejuru muri metero ebyiri, zakubise imigara hejuru n'inkota ndetse n'ingabo, zirimo zirishimira abantu benshi bazikikije ku nzu y'ingoro y'umwami.

Imyeyo ebyiri umweyo umwe mugufi, ufite urukuba rw'icyatsi wakuze kubera ku wukubuza. Umweyo wa kabiri mushyashya, ufite urukuba rw'umweru utarakubura na rimwe biri ku nzu yahumotse.

Inzu ya kera yitwa ikigega, bashyiragamo imyaka iri mu ruzitiro rw'amakaro, rukikijwe n'ibiti by'umuvumu ndetse n'inturusi, aho amakoro amwe ari mu mpande zarwo. Ahagana mu majyaruguru.

Umuntu wa kera, ufite urugori mu ijosi aritambitse amaboko. Afite umuheto ukundi kuboko kwambaye imiringa ya zahabu. Arimo ararasa ahasha umwanzi iruhande rwe.

Ipombo itera umuti ifite amaboko asa n'umukara, umufuniko w'ubururu, umugozi w'umukara, robine y'umukara iteretse ku mufuka usa n'umweru.

Abakobwa beza cyane bambaye imishanana, barimo barabyina nk'intore izirusha intambwe, bambaye ingutiya nziza zibereye ijisho z'umukara n'umweru, ahagana impande y'abayobozi bateraniye hano.

Umugabo w'umukambwe wambaye ipantaro y'igice, udafite inkweto, wambaye n'isengeri. Arimo aragenda ahetse umuvure impande y'amasaka ari mu biti, yazezengeye cyane ku uburyo ashobora kuba yaranasinze.

Abagore benshi cyane bafite imishanana y'umweru bayambaye mu ijosi barimo baravuza ingoma aho imirisho ari myinshi cyane, amajwi y'urufaya bishimye cyane n'akanyamuneza kenshi mu maso barimo bararirimba imana yabo.

Umucaca munini cyane ufite akayira gatoya cyane karimo ihema ryanditseho ibigori ndetse n'igitiyo ku ruhande kigufi, harimo haravamo izuba kugira ngo ibyatsi bibashe gukura n'ibigori bibashe kubona ibibitunga.

Umukecuru uri mu isambu ifite umucaca n'amabuye abiri, yicaye ku mukeka wacitsemo kabiri arimo araboha igitebo. Iruhande rwe hariho undi mukecuru urimo uraboha umutemeri.

Abazungu babiri bambaye impu z'ingwe bari impande y'abirabura batatu barimo baraseka, bari hejuru ku kazizitiro. Umwe wambaye umupira w'ubudodo mu gipangu gifite uruzitiro rw'amakoro.

Urutiba ruturetse mu mazi menshi cyane rwa mpande enye ahava izuba ry'igikatu, amazi arimo arabira iruhande rw' urwo rutiba, rutegereje ko hashobora kuba hari urwodo rugiye kurujyamo kugira babashe kubumba itafari.

Intore zirimo zirahamiriza mu kibuga kinini zambaye :imigara ,amacumu ,ndetse zifite n'inkota, n'ingabo ,bigaragare ko izi ntore zatojwe.

Abagabo babiri barimo baranwa urwarwa, bambaye imishanana na kameramani arimo arabafotora, impande ye hariho ikibindi kirimo urwagwa rwa kabiri, ndetse bose bicaye ku ntebe z'umweru za palasitiki.

Abagore babiri, umwe ufite imitsatsi miremire undi wambaye agapfukamunwa, barimo baraboha ikirago cya mpande enye, bicaye ku gasambi ibumoso bw'inyuguti ya na.

Umusaza w'umukambwe ufite uruhu rukanyaraye, wambaye ishati ya karokaro, umusatsi wuzuye imvi, arimo arasuka umutobe akoresheje urukiza mu kadomora, mu rutoki rw'imineke myinshi.

Umugabo n'umugore bari mu rutoki barimo barakama ibitoki bakoresheje ubusuna, umubirikira, ikidomora n'urukiza, bigaragare ko ibi bitoki byarese kuko mu muvure harimo umutobe.

Umwami wa gatatu Cyilima Rujugira, mu gipangu cye afite inzu cumi n'indwi. Inzu ya mbere ni ndende, inzu ya kabiri ni ngufi, arimo ahagaze mu muryango, ahegereye umusigiti w'abasilamu.

Inka nziza cyane z'inyambo zirimo ziranwa amazi zikoresheje ibidamu, aho iya mbere ifite amatwi matoya ndetse n'amahembe maremare ajya kuresha n'igiti kiri iruhande rwayo impande y'inka ebyiri.

Imashini nini cyane ikoreshwa mu murimo w'amashanyarazi, ifite amabuto agera ku ya mbere, ibuto rya mbere ni rimwe ara rimwe, ibuto rya kabiri ni gatatu ara kabiri ndetse irya gatatu ni gatanu ara gatatu.

Sharijeri nini cyane iforomwe nk'igisasu, ifite inzira ebyiri ushobora gucishamo kugira ngo yake. Inzira ya mbere ifite botoni viyuwa n'ubudomo bwinshi , inzira ya kabiri imeze nk'igisasu , indi nzira ya gatatu ishobora kuba iteye ubwoba ku buryo utayigeramo.

Mashine nini ya deskitopu na kibodi ebyiri, n'impapuro myinshi na suri, bigaragara ko aha hantu hahoze higirwa n'umuntu uri mo arareba muri mashine anakosora izi mpapuro zigaragara hano.

Terefone ya kera itagendanwa ifashe ku gikuta aho ifite imironko myinshi, imwe yiganjemo ibara ry'umukara iyindi ni umweru, ya palasitike, ikozwe neza cyane aho buri shusho yayo ifite n'isura yayo.

Imbabura ya kizungu yitwa gaze yahiye bitewe n'uko bashyizeho ibishyimbo mu gihe kitagenwe n'amasaha irasa umukara cyane irangi ryavuyeho ndetse yari isa n'umuhondo ariko kubera umuriro yabaye nk'umukara.

Iradiyo ya kera ifite ahantu ho ho gucomekera amatelefone ndetse no kugabanya umuriro no kuwuzimya iteretse ku meza isa n'umweruru cyane mu ibara ryayo ndetse ifite n'ibikuta bibiri.

Purize ibyataraye cyane ifite aho kwakiriza hatatu isa n'umweru yometse ku gikuta aho ifatanyijwe n'amaburo abiri asa n'igitaka. Iruhande rwayo hari itoroshi ririmo riraka ku manywa.

Imashini nini cyane ibyibushe iri mu ibara ry'umutuku ihagarika umuriro igihe hagiye kuba inkongi, ifite amapesu abiri, ipesu rimwe ry'ubururu ,irindi pesu risa n'umutuku.

Ikiraro kinini gifite imbariro z'ubutambike n'ubujya hejuru, kirimo abantu benshi barimo barasiga irange ry'umukara ku mabati ndetse no kumireko yacyo, umufundi arimo arabafasha kubikora.

Umujyi mwiza utatswe n'ibiti, abamotari bari gutwara, abashoferi barimo baratwara imodoka, inyubako nziza ndende n'ingufi banke nziza zinjiza amafaranga mu gihugu.

Inzu ndende ikozwe mu byuma ifite Esikariye zo kumanukiraho n'izo kuzamukiraho, harimo abana bambaye imyenda y'umuhondo, barimo baramanuka bajya hasi ahagana aho inyubako iherereye.

Inzu ngufiya cane ishakaje amabati yubururu umurekoo w'umukara, inzugi z'umukara, amapave, ndetse n'umurasire wanitse hanze, ikiraro cy'inka amadirisha abiri ndetse n'urugi rumwe rugufi.

Inzu ndende cyane ifite mpande ebyiri, ikiraro ndetse n’umuriro w’amashanyarazi. Umuntu ahagaze mu kiraro, bigaragara ko iyi nzu ari nzu ya kera cyane, kubw’abami.

Umufundi wambaye ijile y'ubururu arimo arakoresha umudiyede wambaye ingofero yumutuku. Umufundi arimo arafata urwondo ashyira muri fondasiyo barimo barubakamo iruhande rwa toyota.

Ipoto ry'amashanyarazi rinini ahahuriye insinga nyinshi zitandukanye, hariho amapalasitike ashobora kurinda ko inkuba ishobora kuhakubita, ndetse n'ibyuma bishobora kurinda umuyaga mwinshi mu gihe cy'itumba.

Ikiraro cyo mu kirere gifite inkingi ebyiri. Inkingi ya mbere igizwe n'idarapo ry'Igihugu, inkingi ya kabiri igizwe n'ibara ry'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu gifatanijwe n'insinga ebyiri.

Amatara yo kumuhanda arimo arakira rimwe, mu rukerera rw'joro, aho itara rya mbere rikwaka ubururu, itara rya kabiri umutuku, irya kane umuhondo, irya gatanu icyatsi, irya cumi cumi na rimwe, mumuhanda werekeza i Kigali.

Ishuri ryiza rifite ubusitani bw'indabo zagwingiye, ziganjemo umukara ndetse n'umuhondo. Riri ahagana iruhande rw'ishamba; rifite amadirisha agera kuri atandatu, atatu ibumoso andi iburyo.

Akazu kanini cyane gafite idirisha rimwe ndetse n'amabati y'umutuku n'umurego w'icyatsi, kameze nk'agashobora gukurura abakerarugendo kubera ubuto bwako n'ibiti bigakikije ndetse n'ibimera, gafite abantu benshi bakicayeho bafite imitaka.

Ishuri rirerire riri kuri metero zigera ku gihumbi, rifite amatafari ahiye, riteye irangi ry'umuhondo, amabati ashaje, inzugi ebyiri n'amadirishya arindwi, rigeretse kabiri, iruhande rw'ibumoso bw'ishyamba.

Abubatsi barimo barubaka ibiraro bakoresheje ferabeto ndetse ikiraro kiri ku mukingo cyane, impande y'imisozi ebyiri, barimo baranagana hejuru bambaye kaske zisa n'umuhondo ndetse n'amajire y'umutuku.

Urusengero ruri hagati y'inzu ebyiri z'ubucuruzi. Inzu ya mbere iriho abantu bagera kuri barindwi; abagore bane n' abagabo babiri. Indi nzu ya kabiri, inzu imeze nk' ibagiro imeze nk'inzu z'ahagana mu gihumbi kimwe mirongo icyenda na karindwi.

Ingoro ya Bikiramariya, igizwe ni igishushanyo cya Mariya, ikigega cy'umweru gifite amakaro y'ubururu n'umuhondo, amabati ashaje, n'ibimera bya suwimingipuru.

Inzu nziza iri mu kibanza kirekire gifite umucaca. Ifite umukandara w'umukara, uruhombo rw'umukara rumanura amazi Aho uturutse ku nzu, ndetse n'ikikoni cyiza cyo gutekeramo, kiri impande y'ururabo mu mukingo.

Urusengero runini rw'abakatolike rufite umusaraba n'ibirongozi bibiri rufite abakiriya benshi baje gusenga, abagabo n'abagore n'imodoka nyinshi zaparitse za lavafo nabagabo bambaye imyenda yumukara.

Inzu nziza' yumukara numweru ifite amabati ya furati iri mu busitani aho ubusitani bwose bufite intebe zo kwicaraho ndetse n'ibiti byavoka, amapera n'amaronji. Abana barimo barakiniramo bishimye.

Inzu nini cyane y'umudugudu, iteye karabasasa ndetse na kositra cumi n'ebyiri, ifite abantu benshi bategereje nyirurugo bitewe nuko hakinze. Indabo z'umutuku, ndetse n'ibimata mu ndabo zayo ako kanya.

Urusengero rurerure rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi, rufite urugi rwa metero itandatu rusa n'umuhondo, amadirisha abiri mu ruhande rw'iburyo, ayandi mu ruhande rw'ibumoso, rufite geti ndende ishobora gucaho imodoka ifite metero cumi n'umunane.

Umuhanda muremure cyane ufite igiti cy'ipoto imwe, iruhande rwayo ibumoso hariho uruganda rw'icyayi, iburyo bwaho harimo umurongo ugabanyije umuhanda kabiri usa n'icyatsi.

Urusengero rwa Bikiramariya, rufite abakirisitu benshi ndetse n'ababikira, rufite n'inkingi ndende cyane zo gusengeramo, aho imwe iteretsemo ishusho rya Bikiramariya, barimo barashengerera mu gitondo cya kare.

Ikigo kirekire gifite jaride nziza, cy'amabati y'umutuku, inzu z'umweru aho guparika imodoka, ibiti byiza by'imikindo, jaride nziza, umuyoboro mwiza w'amashanyarazi ,n'amatara yaka ku manywa na niijoro.

Abaririmbyi ba korali barimo bararirimba bakoresheje ibitabo by'indirimbo mu rusengero runini cyane rufite ibirahuri bisa n'igitaka harimo abirabura ndetse n'abazungu iruhande rwabo harimo pasiteri urimo arabayobora.

Ubutaka bufite ibara ry'itaka cyane, bufite ibiti, ndetse n'umuhanda wa kaburimbo utatswe n'amabara y' umuhondo, umutuku, umukara, ndetse n' umweru, ufite ikoni rirerire rishobora kwica umuntu.

Inzu ya etaje igeretse kabiri, ifite akazu gatoya k'ibara ry'umuhondo kanditseho ibiro by'akarere ka musanze, n'imodoka ya ambilanse iparitse imbere ifite umusaraba w'ibara ry'umutuku.

Agace k'ahantu gafite inzu nziza imeze nk'urusengero, ifite amabati y'umutuku, ishyamba rinini rifite ibiti bishobora kubazwamo imbaho, ikirunga kirekire, n'ikindi kirunga kigufi.

Inzu nini cyane ifite imiryango eshatu, amadirishya abiri, parafo, amatara abiri, rimwe rigufi n'irindi rirerire, inzu y'akagari ka Kampanga.

Inama y'abaturage bagera ku bihumbi bibiri bicaye mu kibuga kirekire iruhande rw'indabo nyinshi, bateze amatwi abarimo barabaganiriza bamwe basinziriye, abandi ntabwo barasinzira n'abandi bambaye ingofero.

Inama y'abaturage yabereye muri sitade aho umuyobozi ari umugore , ufite mikoro urimo aravuga uko ibihe by'ino minsi bimeze, aho inzego z'umutekano zaguye amarembo kugira ngo umwanzi ataza kubatera.

Umurambi munini cyane wabereyeho inama hariho umuronko w'abantu batonze, umugore wa mbere afite mikoro, agaragaza ikibazo gishobora kuba kigiye kuba barimo baratanga.

Inama y'abantu bagera kuri barindwi, umukecuru, abagabo bane, umwana umwe n'umuntu ufashe ijambo, ari mo aravugira muri mikoro, asoma ibyabaye mu Rwanda

Inama y'abantu batanu irimo irabera muri salo y'ibiti by'umutuku aho umuntu umwe yambaye ijili y'umukara n'umupira w'umuhondo, bafite i ameza y'ubururu iteretseho amazi yo kunywa, mu macupa asa na telefone.

Abaturage benshi barimo barapima indwara zandura n'izitandura aho abagore batonze umurongonko bitegereza uburyo barimo barabapima umugabo umwe arimo arafata umuvuduko w'amaraso ku bagore bambaye ibitenge byinshi cyane ndetse bambaye n'imipira y'icyatsi.

Abantu benshi, benshi cyane bari mu tsinda ry'abambaye ubururu. Bari muri gare irimo imodoka ziri mu matsinda ya ritiko, iruhande rwabo hariho kamera zirimo zirafata amashusho.

Imodoka nini cyane zitwara abagenzi, zifite amabara y'icyatsi. Ziparitse ahagana mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda ahateye ibiti birebire by'imikindo, bikorwamo imbaho za ribuyu.

Abantu bagera kuri cumi na babiri bambaye baje na karuvati, harimo abakobwa batandatu n'abahungu barindwi, umuhungu umwe yambaye ishati y'umweru, bicaye ahantu bigaragara ko ari mu ndege kandi irimo iraguruka.

Imodoka imeze nk'imoto idasakaye, ifite umushoferi wicaye arimo aratwara ibisabo by'amata, aho imodoka ifite ijambo ryanditseho "shishawumva mwana w'umunyarwanda."

Imodoka y'abakerarugendo nini, irimo irava mu mirambi y'imisozi ahagana mu butayu, yacanye amatara ndetse n'ibinyoteri, urugi barufunguye rwo hejuru ruba rurimo abakerarugendo mu gihe bafotora.

Abagabo babiri bambaye ibisurubeti bisa n'ubururu bari impande ya moto imeze nk'imodoka, ifite ibimenyetso bya koperative ndetse n'icyapa cya hadibodi iruhande rw'ikimenyetso cy'u Rwanda.

Gare ndende cyane ifite uburebure n'ubugari buhagije. Ifite abantu benshi cyane, n'imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye, toyota n'izindi zimeze nkazo iruhande rw'inzu.

Uruvunganzoka rw'abantu n'ibintu muri gare ya nyabugogo, rwagezemo n'umuntu urimo arafotora amafoto yo hejuru aho arimo arabagaragaza igice cyo hejuru cyo mu mutwe ,ndetse n'imodoka barimo barazigaragaza ahantu hashashe gusa.

Abamotari benshi bafite moto zisa n'umutuku, ziri ku murongo barishimye cyane, bamanitse amaboko n'amaguru ndetse n'amajire yanditseho tigo, bishimira cyane umuntu urimo arabafotora.

Urujya n'uruza rw'abantu mu magare ya rembo ya rubavu harimo: abatwara imodoka, amagare ndetse n'abatwara indege, barimo barasohoka muri gare ya rubavu muri uno munsi.

Itsinda ry'abantu bicaye mu modoka ya Yutongo nini, barimo baritegereza ahantu bashobora kwicara hatari amahuhwezi kugira ngo ngo babashe kuva mu mujyi umwe berekeza mu wundi, barimo baragirwa inama y'uburyo bashobora kwicara nta kubisikanya kurimo.

Ikibanza kirekire gifite amarembo maremare n'umutambiko muremure wanditseho "Rubavu basi pake" mu ijambo ry'icyongereza. Imodoka irimo irinjiramo yacanye ikinyoteri cy'umutuku.

Gare y'abanyonzi gusa irimo abantu benshi batandukanye, abambaye neza n'abasa nabi, hariho umusore ubakuriye urimo araseka, areba ukuntu abantu barimo barinjira basaba na serivise bamwe barakaye abandi baseka.

Icyapa kinini cya emutiyeni kiri mu inzu y'inyubako ya etaje, igereretse kabiri k'umusozi muremure wa Kagugu iruhande rwa gare y'abashinwa. Igizwe n'abantu benshi bagera ku bihumbi bibiri, bamwe ni abamotari abandi b'abanyonzi b'amagare.

Imodoka zitwara abagenzi zitwa Yutungo zirimo zirasohoka mu mugi wa Kigali, impande y'icyapa cya tayimu, abamotari aho baparitse barimo kwiruka bakeka ko iyo modoka isohotse, ishobora kuba igiye gukora agisida.

Bisi ebyiri nini zisa zitwara abagenzi ziri mu muji mwiza ugeretsemo amazu maremare. Inzu imwe ngufi ya metero cumi n'ebyiri n'indi nzu ndende ya metero cumi n'eshanu.

Abamotari barimo baraforoma moto bitwaje amasupana ndetse bicaye kuri moto ahagana i Nyabugogo ahaherereye uruganda rw'inganda, bazamuka hejuru Kimisagara.

Umugabo wambaye ikoti jy'ubururu, bote ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, afite igare ririho ibisabo bibiri bashyiramo amagi, ndetse ku nzu y'ubucuruzi agiye gurishaho amagi hariho umugabo barimo baratongana.

Umukecuru wambaye ijipo y’umutuku, kambambiri, witeze umutwe, arimo aratwara igare, ahetse igitebo kinini kirimo umufuka, yahambirije chambriyeli.

Abanyonzi benshi bagera kuri cumi na babiri, bambaye imyenda itandukanye. Bafite n'amagare afite amabara gatandukanye, umuhondo ndetse n'icatsi bategereje abo batwara, aho umunyonzi wa mbere arimo guseka umuyonzi wa kabiri arimo arareba kameramanani ngo yifotoze.

Abanyonzi bambaye impuzankano z'icyatsi, bafite icyapa cy'icyatsi, bafite, amagare atatse ubwiza ari mu birango by'umutuku n'icyatsi ndetse n'umuhondo, bafite ibendera ry'u Rwanda bavuga bati, gerayo amahoro.

Abamotari babiri bari mu muhanda muremure aho batwaye abagenzi. Umumotari wa kabiri atwaye umufuka urimo inyama na ho umumotari wa gatatu arimo aratwara iruhande rw'ahegereye icyuma cya mudasobwa.

Gare nini cyane ifite imiryango igera kuri ebyiri，umuryango wa mbere wanditseho yutegisiirwa，umuryango wa kabiri wanditseho gare ya Kayonza， ndetse umuryango wa gatatu wanditseho Kayonza basi paka.

Gare nini cyane mu mujyi wa Kigali ifite abantu benshi ndetse n'imodoka nyinshi ahagana ibumoso handitse icyapa cya Kagugu Gisozi magana atatu na cumi na karindwi iruhande rw'inzu ya gare y'abashinwa mu birometero bitanu uvuye ku muhanda.

Umurambi muremure ufite amazu asa n'ivu, ufite gare ndende yanditseho Rwamagana basipake. Gare ya Rwamagana mu magambo y'ikinyarwanda, ayandi y'icyongereza.

Ifuso ya hoho nini cyane ihetse umucanga w'inyanja aho irimo iragenda ibirometero birindwi ku isaha mu mabara y'umutuku ndetse icanye n'ibinyoteri, amapine yayo asa n'umukara ndetse n'igitaka.

Imodoka nini cyane ya yutongo ifite amapine asa n'umuka. Ihetse abantu benshi bagiye bahekeranye. Ifite icyapa cya Ayi Emu Banke Kigali Siti tawa ndetse n'icyapa cyanditseho visiti Rwanda mu mpande.

Umumotari w'umugore yicaye kuri moto afite kasike ebyiri z'umuhondo n'umutuku, afite mubazi ibara umuvuduko amaze gukoresha ava ahantu hamwe ajya ahandi.

Gare nini cyane ifite inzu z'ubucuruzi abantu barimo barayijyamo ari igihuri ndetse n'imodoka za tagisi vuwatire n'imodoka nini itwara abagenzi iruhande rw'ipoto rifite insinga zigera kuri esheshatu risa n'umukara na kashi pawe zigeretseho iruhande rwayo ndetse n'ibumoso bwayo.

Sitade ya basiketi, ifite urubyiruko rwinshi abasore n'inkumi ndetse n'abagabo bari muri porotokole barimo barareba basiketi y'abana batoya aho barimo baratera muri paniye.

Umusore mugufi cyane wambaye racosite, ipantaro ya kigoma n'ininkweto y'ubururu, arimo arakina tenisi akoresheje raketi n' agapira gatoya cyane gasa n' icyatsi kidunda mu kibuga.

Ikipe ya vole y'abakobwa bambaye amapantaro yubururu, amasogisi y'umuhondo. contereshoke z'umukara, ni barebare mu mpinga z'umusozi w'ikiyaga cya Kabwaya.

Ikipe y'igihugu cy' u Rwanda ya basiketiboro ifite abasore babiri bareshya, umusore umwe yambaye teni do siporo y'umuhondo, barimo barakora imyitozo ari bonyine muri sitade ubworoherane, aho nta mutoza, nta n'umufana uhari.

Umunyarwandakazi usimbuka imigozi, arimo arasimbuka acuramye, umusatsi uri hasi, amaboko atambitse, ndetse n'ibibero biri hejuru, yambaye ikariso y'umukara n'inkweto y'umweru.

Uruhuri rw'abantu bari muri siporo, bazamuye amaboko hejuru mukibuga kirekire, gifite antene ya paraburike, bareba ishyamba aho riherereye.

Irushanwa ry'amagare barimo barakata ikorosi, uwa mbere ni umuzungu uwa kabiri ni umwirabura. Barimo bararirimba, abandi barimo bararya imineke batwaye amagare yabo, umwe w'umuhondo asa n'uwaguye.

Abasore babiri umwe muremure undi mugufi w'inzobe, bambaye iniforume nziza cyane y'iroza ndetse namakabutura yumukara, amasogisi yumweru n'isaha. Barimo barifotoza.

Sitade mpuzamahanga ifite ikimenyetso cya visite ini Rwanda, irimo irakiniraho abakinnyi ba voreboro, umukinnyi umwe yasimbutse wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, nomero cumi na karindwi areshya na file.

umujyi wa Kigali ufite abafana benshi bari ku muronko umwe barinzwe n'umupolisi bareba abantu basiganwa ku magare bambaye kasike zitandukanye ziri mu bwoko bw'icyuma.

Umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi witwa Patoroni Emeteri arimo araseka mu kibuga gifite amazi menshi ,ndetse n'amashusho ya palasitike yanditseho kane na gatatu n'abazungu benshi barimo barasekera iruhande rwe.

Umukobwa mwiza cyane ufite umusatsi w'umukara, amaso y'umweru, amazuru meza, ishinya nziza, amenyo aborosheje, iminwa minini, amatwi meza, isaha nziza. Arimo arakina umukino wa basiketiboro yishimye cyane.

Ikibuga cya basiketi kiri mu busitani, kigizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, gifite fire nziza zo gukiniraho, ndetse n'inyuguti ya SA hagati mu rubuga rw'amahina, aho bashobora kugabira umupira ugiye gutangizwa.

Sitade nziza ifite amatara y'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, ahagana mu masaha y'ijoro irimo iraka bibereye ijisho buri muntu wese uri mu gihugu c'u Rwanda.

Umukinnyi wa basiketiboro w'umukobwa， afite baro， agiye guhereza mugenzi we， inyuma ye hariho umusifuzi wambaye inkweto z'ubururu， ipantaro y'umutuku， ndetse n'ishati y'ubururu， arimo aramwiruka inyuma， kugira ngo arebe niba hari amakosa aribuze gukora.

Abakinnyi ba vole, bambaye umuhondo n'ubururu, barimo barakinira ku kibuga cy'amazamu, aho umukinnyi umwe, wa aperi efuse futubolo kerebe, yazamuye ukuboko agiye gutera ikiro, kuri nomero umunani.

Sitade irimo abafana barimo barafana ikipe y'u Rwanda ya baseketeboro y'abagore n'ikipe ya Kote Divuwari y'abagore, aho umugore w'u Rwanda afashe umupira yataka.

Ikibuga kinini cyane cya tapi, gifite aho gukinira vole ndetse n'inshundura zitaracika, gikikijwe n'ibiti byiza cyane birimo biravaho izuba, bifite ikime ndetse na fire ntoya cyane yo gukiniraho tenisi, mu gihe byabaye ngombwa ko bayikiniraho.

Inama y'abantu benshi, abagabo n'abagore. Umugore umwe yicaye iruhande rw'umugabo we nundi mugabo yicaye iruhande rw'umugore umwe. Barimo baraganira ku kibazo bafite mu muryango.

Ikipe yambaye umutuku ya Gisagara irimo irakina n'ikipe yambaye umuhondo, nomero cumi n'umwe wambaye umutuku na karindwi barimo barataka kuri firi ngufi, aba bakinnyi ni ababana n'ubumuga.

Ikibuga cya vole cyiza kiri impande y'ishyamba mu murima ufite ubuso burebure cyane, ugizwe n'umucanga munini cyane w'inyanja ushobora guterwa ku gishahuro cy'inzu.

Abanyamagare basiganwa abazungu ndetse n'abirabura, barimo bara bakata ikorosi rifite umuronko, muri kaburimbo usa n'umweru abagore bavuye gusenya barimo baritegereza iryo rushanwa, bikoreye abandi batuye inkwi zabo.

Ikipe y'abantu umunani, batanu ni abakinnyi, babiri ni abatoza bahawe igikombe cy'isonga muri Repubulika y'u Rwanda, minisiteri y'ubuzima ndetse n' ikigega gishinzwe ingwate cya efu efu di.

Abakerarugendo bafite amagare atandukanye bari mu ishyamba ry'inzitane. Bose bambaye ingofero zituma nta kintu kibangiriza mu mutwe mu gihe habaye ikibazo runaka.

Agapira ka tenisi kari mu ibara ry'icyatsi n'umurongo wumuhondo gateretse mu byatsi bisa n'icyatsi cyane, kari impande ya raketi ifite ubudomo bwinshi cyane ifite n'ikimenyetso cya diyamondi mu ibara risa n'gitaka.

Umugore ari mu marushanwa go kujugunya imihunda kure. Afite jezi yanditseho Tiyamu emu makumyabiri na gatanu, ndetse afite imikaya myinshi ku kaboko, ku buryo ashobora kujugunya iki cyuma kure.

Amarushanwa y'amagare bataratu bari imbere, harimo abirabura batanu, umwe ni muzungu, abandi barimo baragenda n'imodoka za bo inyuma babaherekeje, undi arimo arakamera iruhande rwa bo ku mukingo, ufite ubwatsi bwiza cyane bw'indabo.

Pisine nziza cyane iri mu busitani bufite ibiti bisa n'umuhondo ndetse n'icyatsi, ifite amazi asa n'ubururu ndetse n'aho gukinira hafite amakaro y'ubwoko bwose:amaremare ndetse n'amagufi.

Abakinnyi ba vole barimo bakinira mu kibuga cyiza bambaye impuzangano ya jezi zisa n'umutuku abandi bambaye jezi zisa n'umuhondo ya gatatu ndetse na gatandatu umwe agiye gutera ikiro kuri file , undi arimo aramugabira.

Agace gatoya ka moto, kagizwe n'itara ry'ikinyoteri, icyuma cyo gufataho gisa n'umukara, icyuma kigaragaza purake, ndetse na pulasitike irinda umugese ushobora kujya kuri moto, n'urwondo rwinshi.

Abanyamagare cumi na babiri(12) barimo barishimira iterambere ryagezweho mu Rwanda, aho barimo barakata ikorosi bya Shyorongi berekeza ku kagega k'amazi, iruhande rwa Kaminuza y'Igihugu y'u Rwanda, Kampisi ya Butare.

Umuhanda muremure ugizwe n'ibiraro bikozwe mu cyuma ,ndetse na moto ya simatifone n'amakoro asa n'umukara, biragaragaza ko ntakintu gishobora kubyangiriza mu gihe habayeho ihindukagurika ry'ikirere.

Umuhanda munini cyane w'igitaka, ufite indabo zihagije. Urimo igihu cya mugitondo kuburyo imodoka ishobora guturuka imbere idashobora kubona ikiri kubera inyuma muri kino gitondo.